Amazi y'isoko n'amazi aturuka amasoko y'amazi cyangwa amashanyarazi y'ubutaka, akenshi akaba ari amazi asukuye kandi atajegajega, ari mu bwoko bw'amazi meza ashobora gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, nko kubungabunga ubuhinzi no gukingira ubuzima.

Umuntu wese kugira ngo agire ubuzima bwiza agomba kugira igice cy'ubwonko gikora neza, kuko ubwonko ni cyo gice kidufasha gukora ibintu byinshi by'umunsi ku wundi. Ubwonko bufasha mu gutekereza, kugenzura imikorere y'ibindi bice by'umubiri ndetse no gukora imitekerereze n'ibikorwa bitandukanye, bityo kwita ku buzima bw'ubwonko ni ingenzi mu kugira ubuzima bwiza no kubungabunga imikorere myiza y'umubiri wose.

Isuku y'amenyo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, koza amenyo inshuro ebyiri ku munsi cyangwa buri uko umaze kurya bifasha kugira umwuka mwiza, amenyo akomeye no kurinda uburwayi bwo mu kanwa n'umubiri wose. Uko umaze koza amenyo ni ngenzi cyane gukoresha agace k'urudodo kabugenewe gakoreshwa mu gusukura hagati y'amenyo. Igikoresho cyo koza amenyo kidashobora kugera. Gakoreshwa nyuma yo koza amenyo kugira ngo gakuremo ibisigazwa by'ibiryo n'umwanda byihishe hagati y'amenyo.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni igikorwa cy'ingenzi kugira ngo bagire ubuzima bwiza no kubungabunga imibereho myiza yabo, mu gihe bageze mu zabukuru. Abantu bageze mu zabukuru bahura n'impinduka mu mubiri n'imitekerereze, bityo bagomba kubona kwitabwaho mu buryo bwihariye.

Ibitaro ni inyubako y'umuvuzi itanga serivise zitandukanye zita ku buzima bw'abantu, muri izo serivise harimo no kuvura amaso, aho abagana ibitaro babapima amaso, bagasuzumwa ndetse bagahabwa inama n'ubuvuzi buboneye. Amadarubindi ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bikenerwa mu buvuzi bw'amaso, afasha abantu kubona neza, kurinda amaso ku mirasire yangiza ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye by'amaso.

Buri muntu mu buzima aba akenye ahantu hazwi, yasanga serivisi z'ubuzima cyangwa yatangira serivisi z'ubuvuzi mu buryo bworoshye kandi hari ibikoresho by'ingenzi bizatuma ibyo bikorwa bigerwaho neza. Ibi ni byiza kuko inyubako y'ubuvuzi ifite akamaro gakomeye mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, gukomeza ubuzima bwiza, no gukemura ibibazo by'ubuzima mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Igihugu kigomba kuba gifite ahantu hateganyijwe gutanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi kandi hagomba kuba hafite ibikoresho n'abakozi b'ubuvuzi babishoboye kugira ngo basoze bagore kandi bakurikirane ubuzima bw'abantu. Ibi bitaro bitanga ubuvuzi bwihutirwa ibikorwa by'ubuvuzi bwisumbuye ndetse no gufasha abantu bakeneye ubuvuzi buhambaye.

Umuntu wese ugiye gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ugiye gukina, aba agomba gutangirana icyizere cy'uko atekanye ndetse afite hafi ibikoresho byamufasha kwirinda, kwivura no kugabanya imvune vuba, mu gihe habayemo ikibazo.

Imiti gakondo y'ibimera n'imiti ikorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye byo mu Rwanda cyangwa ibindi bihugu, bikavura indwara zitandukanye hakurikijwe ubumenyi gakondo, ibimera bikunze gukoreshwa mu buryo butandukanye, kunywa, gusiga, gukaraba cyangwa guhumeka umwuka wabyo.